Abaturage bakora imirimo itandukanye hari ababyuka bajya gukora akazi kajyanye no gucuruza amayinite kubitsa no kubikuza amafaranga y'abaturage hashingiwe ku ikoranabuhanga ridakoresha amafaranga mu ntoki ahubwo bayanyuza ku miyoboro ya telefoni irimo nk'umuyoboro wa MTN cyangwa uwa AIRTEL.

Ibigo by'itumanaho birimo nk'ikigo cya Airtel bijya bikora ubukangurambaga bushinzwe gushishikariza abaturage b'Igihugu cy'u Rwanda gukoresha uyu muyoboro w'itumanaho, igihe bashaka guhana amakuru babinyujije kuri telefone zabo.

Hari abaturage bazinduka bajya mu mirimo itandukanye, harimo n'abafasha bagenzi babo mu kugura amainnite kuri telefoni, kubitsa no kubikuza kugira ngo babashe gukoresha imiyoboro y'itumanaho, irimo nk'ikigo cya MTN na Airtel.

Abiganjemo urubyiruko basigaye barihangiye imirimo kubera ko abenshi basigaye biga ntibabone akazi, ubundi bagafata umwanzuro wo kujya ku muhanda bagacuruza ibicuruzwa bitandukanye birimo ibibiribwa nk'imineke, amavoka yo kurya, amarizi, amabombo ubunyobwa, ndetse n'inkweto zo kwambara.

Abantu babyuka bajya gushaka amafaranga bayakuye mu tuzi dutandukanye. Hari abacuruza ibikoresho by'itumanaho nk'amainite bakorera ibigo bya MTN na Airtel hano mu rwanda, aho abantu batandukanye bajya kugura amainite yo guhamagaza.

Hari abaturage bakorera ibigo by'itumanaho harimo na MTN aho bashinga imitaka ku muhanda ubundi bagafasha abantu batambuka kubabikiriza amafaranga no kuyabitsa hakoreshejwe ikoranabuhanga ndetse na telefoni igendanwa, aba bantu rero buri kwezi bagenerwa umushahara nk'ishimwe ry'akazi baba bakoze.

Hari abaturage bafasha abandi mu gikorwa cyo kubabikurira amafaranga kuri telefoni zabo bakoresheje ikoranabuhanga n'imiyoboro y'itumanaho ya Mtn cyangwa se Tigo kugira ngo turusheho gutera imbere, uretse kuba babikora gutyo ni n'umurimo ubatunze ubaha amafaranga umunsi ku wundi.

Abaturage bakora imirimo itandukanye irimo no gucuruza amayinite cyangwa no gutanga ubundi bufasha bujyanye n'ikoranabuhanga. Aho babikuriza abantu amafaranga kandi bakanayababikuriza ubundi bakabasha nabo kwinjiza amafaranga kuko bahembwa buri kwezi n'ibigo by'itumanaho birimo Mtn na Airtel.

Hari amashyirahamwe n'amakoperative acuruza ibicuruzwa bitandukanye, birimo n'amavuta akungahaye ku yo guteka cyangwa kwisiga ku mubiri kugira ngo abaturage bakire indwara zitandukanye zirimo n'ibiheri byibasira uruhu rwabo.

Abagore bane bari kwerekeza ku muryango w'inzu ufunguye, kandi bigaragara ko barimo kwihuta cyane, aba bagore ni abayobozi b'Akarere ka Nyagatare.

Ibigo by'amakoperative, amashyirahamwe ndetse n'amabanki ni bimwe mu biteza imbere abaturage kuko bibaha umurimo binyuze mu bikorwa baba barahanze bigamije gushaka inyungu kandi bajya banakora amarushanwa bakegukana amafaranga binyuze mu kumurika ibicuruzwa bacuruza.

Hajya habaho imurikagurisha, aho ibigo byikorera cyangwa amakoperative bizana ibicuruzwa bikora ubundi bikabigeza ku baturage, binabashishikariza kuza kubigura kugira ngo babashe kwinjiza amafaranga.

Abaturage bibumbira mu mashyirahamwe atandukanye kugira ngo babashe gukorera hamwe kandi bagere ku musaruro mwinshi, ibi babikora babinyujije mu bikorwa by'ubuhinzi cyangwa ubworozi, aho bafata umusaruro wabo bakajya kuwugurisha n'inganda zitunganya umusaruro, zikawubyazamo nk'ifu y'ubugari cyangwa se ibindi.

Abahinzi bajya bibumbira mu mashyirahamwe, bagatubura imbuto zitandukanye zirimo n'ibigori, ubundi byazera bakabizana bakabiteka, bakabisangira n'abayobozi ku munsi w'umuganura bityo bigateza imbere ubumwe hagati y'Abanyarwanda.

Abaturage bajya bibumbira hamwe mu bikorwa byo guteza imbere imibereho myiza yabo bagakora amakoperative cyangwa se bagakora amashyirahamwe, aho bapanga igikorwa runaka kigamije kuzana umusaruro bakagikorera hamwe kugira ngo babashe gufatanya mu buryo bujyanye n'igishoro.

Hari igihe abantu bigira hamwe kugira ngo bakore igikorwa runaka kandi kibabyarire umusaruro, biba ngombwa y'uko bafatanya haba mu buryo bw'ubushobozi ndetse n'ibitekerezo, ubundi bakunganirana kugira ngo babashe kugera ku musaruro wabo kandi babone inyungu nyinshi.

Abaturage benshi bakunze kwibumbira mu mashyirahamwe kugira ngo babashe kugera ku musaruro; twavuga nk'abahinzi b'ibigori cyangwa umuceri, aho bibumbira mu ishyirahamwe bakagura ibikoresho, bateranyije amafaranga ubundi bakabyifashisha bahungura ibigori, bakazabigemura, bakabona amafaranga menshi.

Abacuruzi batandukanye basanga ibiribwa byo kurya, birimo akawunga, ndetse n'umuceri, aho abaturage baza kubigura, kugira ngo babashe kubona ibyo barya mu ngo, cyangwa se ibigo by'amashuri bikaza kubarangurira kuko abanyeshuri, bakunze kurya kawunga cyane ku mashuri bigaho.

Hari ibigo bya koperative bicuruza imyaka biyigemura mu bihugu bitandukanye byifashishije amamodoka manini y'amakamyo, aho bapakira imyaka ubundi bakayijyana ku isoko kuyigurisha kugira ngo bunguke amafaranga.

Amashyirahamwe n'ibigo by'amakoperative bikora ibikorwa bitandukanye birimo ibyo kumurika ibikoresho nk'indabo cyangwa ibindi byose byerekana ubwiza, aho babigurisha ku bantu bafite ibirori bitandukanye birimo ubukwe cyangwa abashaka kubidekora mu minsi yabo mikuru irimo nk'ubunani na noheli.

Abaturage bajya bibumbira hamwe bagakora ubuhinzi bw'imbuto n'imyaka itandukanye, harimo nk'inanasi aho bazigemura ku masoko yo mu Rwanda ndetse no hanze, bakabasha kubona amafaranga abateza imbere n'ayo guhahira imiryango yabo bakomokamo.

Abaturage bajya bibumbira mu mashyirahamwe bagakora igikorwa k'ingenzi cyo kwifatanya kugira ngo babashe kugera ku musaruro, ubundi bagashyigikirwa na Leta y'u Rwanda bagahabwa n'ibihembo birimo amafaranga kugira ngo babongerere ubufasha bityo biteze imbere.

Hari abaturage bajya bibumbira mu makoperative n'amashyirahamwe, maze Leta y'u Rwanda ifatanyije na banki itsura amajyambere bakabagenera ubufasha, bwo kubaha amafaranga, kugira ngo bagure umushinga wabo.

Amazu acumbikira abayagana ndetse akabategurira n'amafunguro ni amwe mu yinjiza amafaranga atari makeya ariko nanone iyo ugeze mu nyubako zabo usangamo ibikoresho bitandukanye birimo nk'intebe abashyitsi bicaraho.

aAbantu bakeneye kwica inyota, bagana amazu yabugenewe acuruza ibicuruzwa bitandukanye, birimo ibinyobwa by'inzoga zisembuye, n'izidasembuye, bene aya mazu kandi yakira abantu bakoresheje ibirori bakabatekera, bakabaha n'ahantu ho kuruhukira.

Hari amazu acuruza ibyo kunywa bitandukanye, birimo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, aho usanga mu masaha y'igicuku cyangwa ijoro abaturage benshi bagiye gusabana, binywera ku binyobwa bizwi nk'inzoga.

Amazu acumbikira ndetse agatanga amafunguro ku bantu bayagana ni amwe muyagira uruhare mu kunezeza abantu, uko bategura ibirori bitandukanye kandi bagatanga ubufasha ku bantu bafite nk'ubukwe cyangwa ibindi birori.

Amaduka acuruza ibiribwa n'ibinyobwa bitandukanye, yakira abantu, yaba afite ibirori birimo ubukwe, isabukuru y'amavuko, kandi akanabafasha mu kubaha ahantu heza ho kuruhukira, igihe bari gufata amafunguro yabo babateguriye.

Amabare ni amazu atekera abashyitsi, akabaha ibyo kunywa bitandukanye, abantu benshi rero bashaka gukora ibirori harimo nk'ubukwe, hari igihe bagana aya mazu akabasha kubakirira abashyitsi kandi akabaha n'amafunguro aryoshye.

Abacururiza mu maduka basobanura yuko babasha kubona inyungu binyuze mu kugurisha ibicuruzwa baba baranguye ubundi nabo bakabisubiza bagafataho inyungu nkeya, ariko ibingibi bijyana no kuba umuntu abasha gutekereza neza kugira ngo yirinde igihombo, bityo bikaba byamusubiza inyuma ntatere imbere.

Abaturage bajya guhahira mu mazu y'ubucuruzi hirya no hino aho batuye aho usanga aya mazu abonekamo ibicuruzwa birimo imineke, amatunda, imyembe, ifu ya kawunga n'ifu y'ubugari ubundi abaturage bakihahira ibi bicuruzwa byose bakajya kubirya mu rugo.

Abaturage bakora imirimo itandukanye kugira ngo binjize amafaranga, hari abacuruza, hari abatwara amamoto ariko abacuruza na bo babona inyungu nyinshi kuko usanga baba bafite amavuta, baranguye mu nganda bakaza gusubiza ku giciro bashaka kandi bagombye kunguka.

Abaturage bakora imirimo itandukanye kugira ngo babashe kubona amaronko; hari abadoda, hari abacuruza ibyo kurya, hari abacuruza imyambaro, hari abatwara abagenzi. Usanga rero buri muntu wese yarashatse icya akora kugira ngo ajye abona amafaranga.

Mu maduka dusangayo ibicuruzwa bitandukanye birimo amazi yo kunywa, imitobe, inzoga, amabombo cyangwa se n'ibindi bintu byo kurya birimo n'inyanya n'amandazi bityo abaturage usanga bagana amazu y'ubucuruzi kugira ngo bihahire bage guteka mu ngo zabo.

Abantu bakenera kugura ibikoresho bitandukanye ndetse n'ibiribwa byo kurya. Niyo mpamvu amaduka abicuruza, yaba amajerekani yo gushyiramo amazi yo kunywa, cyangwa se amacupa yo kubikamo igikoma n'ibyayi byo kunywa, ibi byose ubisanga mu maduka ukabigura.

Abaturage basengera mu idini ry'abarokore bagaragaje uruhare rukomeye cyane mu kurwanya ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ku rubyiruko, aho bakoze ubukangurambaga rushishikariza abantu babikoresha kubireka kuko ari inzira yo kubabuza kugera ku mana.

Mu karere ka nyagatare hirya no hino usangayo ubwubatsi bw'insengero, aho abashoramari n'abaturage bafatanyije, baba bari kubaka insengero bazaza basengeramo igihe bari guhimbaza banambaza Imana.

Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi bizerera mu gusenga Imana cyane, aho usanga ku munsi wo ku Cyumweru no kuwa Gatandatu baba bagiye mu materaniro. Aha ngaha hakorwa n'igikorwa cyo gutura uwifite cyangwa uwabonye amafaranga akagenda akayatanga akaba yanakifashishwa mu gukora ibindi bikorwa.

Mu rusengero usangamo intebe nyinshi cyane zishobora kwakira umubare w'abaturage urenga ijana na mirongo itanu, aho zicarwaho n'abaje guterana no guhimbaza Imana ku minsi itandukanye iba yarashyizweho, nko ku cyumweru cyangwa se ku isabato, bitewe n'abantu umunsi basengeraho.

Abanyarwanda benshi ni abemeramana nubwo usanga basenga mu madini atandukanye, bamwe basengera mu Bagatulika, abandi bagasengera mu Bapeni, abandi bagasengera mu Badive ariko icyo bahuriraho ni uko bose bemera yuko Imana ibaho kandi ari yo ishobora byose.

Umurimo wo gusenga no guhimbaza Imana, ni umwe mu batunze abantu benshi barimo nk'abapadiri, kuko bahembwa buri kwezi, kandi ni umwe mu bafasha abantu benshi kubohoka, hari ababa bafite ibibazo bakajya kubitura Imana bakabasengera, hari n'abandi baba bakeneye ubufasha bwo gusengerwa bitewe n'amakuba bagenda banyuramo.

Iyo barangije gusenga abayoboke b'idini runaka barenzaho bakanabyina. Ariko nanone ubyina neza ni uba yatanze amaturo kubera ko aba atekereza ko Imana irimo kumureba neza.

Abaturage bakunda gusenga cyane kuko bizera ko imana ariyo itanga byose kandi yuko ari yo yabaremye bityo bagira iminsi basengeraho. Irimo nko ku wa gatandatu no ku cyumweru. Aho bajya mu nsengero zabo kandi batanga n'amafaranga ibizwi nk'amaturo y'ishimwe. Akifashishwa mu gukora ibikorwa bitandukanye birimo no kwagura ibikorwa by'urusengero basengeramo.

Insengero zubakwa hagamijwe intego zitandukanye zirimo kujya gusenga kandi umuntu akegerana n'imana, kuko abatura Rwanda benshi bizera y'uko imana ariyo itanga byose bityo niyo mpamvu bakunda gusenga, ikindi abaturage batanga ubufasha butandukanye mu rusengero kugira ngo bafashe n'abantu batishoboye.

Umuntu ushaka kuruhuka neza ajya ku mahoteli cyangwa amaresitora, amazu acumbikira kandi akanakira abakerarugendo n'abandi bantu bayagana, bagamije gutegurirwa amafunguro meza cyangwa guhabwa ahantu heza ho kuruhukira.

Amahoteri ni amwe mu mazu ateka neza kandi akagira amafunguro akungahaye ku ntungamubiri aryoshye cyane rwose aho usanga abantu bafite ibirori bitandukanye birimo ubukwe, isabukuru y'amavuko bagana aya mazu kugira ngo bahizihirize iminsi yabo igende neza cyane.

Abantu bashaka gukoresha ibirori bitandukanye birimo ubukwe cyangwa isabukuru z'amavuko, bagana amahoteri n'amaresitora kugira ngo babatekere cyangwa babahe ahantu heza ho kuruhukira, ubundi bavugane amafaranga babishyura.

Amahoteli acumbikira abashyitsi batandukanye ndetse n'abakoresha ibirori birimo nk'ubukwe aho babatekera amafunguro akungahaye ku ntungamubiri ndetse bakabereka n'ahantu heza ho kuruhukira yaba aho kurara cyangwa kwishimishiriza bagahita bataha ubundi nabo bakabishyura amafaranga.

Ama ahoteli acumbikira abantu akabategurira amafunguro meza yo kurya kandi akabaha n'ahantu heza ho kuruhukira, kuko baba bafite ibitanda byiza bya kijyambere bakagira n'ibyumba bibasha kwakira abantu benshi, abafite ubukwe cyangwa ibindi birori basabwa kugana ama hoteli kugira ngo bakiranwe yombi kandi bahabwe ubufasha bwiza.

Amahoteli afasha abantu batandukanye binyuze mu bikorwa byo kubategurira amafunguro meza n'ibinyobwa ndetse bakabaha n'ahantu heza ho kuruhukira no kubinywera, bafasha abantu batandukanye harimo n'abafite ubukwe cyangwa isabukuru z'amavuko.

Amahoteli n'amaresitora ni amazu acuruza ibinyobwa bitandukanye, aho abantu bajya kuruhukira cyangwa se gufata amafunguro, igihe bafite ibirori runaka bitandukanye kugira ngo bibashe gususuruka.

Hari abantu bakinira ahantu heza ho kuryama cyangwa bagakeneira ahantu ho gucumbika kugira ngo baharuhukire. Biba byiza iyo bagannye amahoteli kuko ari inzu zakira abantu zikabacumbikira kandi zikanabategurira amafunguro meza yo kurya ubundi nabo bakishyura amafaranga.

Abantu batandukanye harimo n'abakomoka mu bihugu by'amahanga, ni bamwe mu bitabira kandi bakagirira ibihe byiza mu mazu arimo amahoteli abacumbikira iyo baje mu gihugu cy'u rwanda, bakahafatira amafunguro meza kandi bakabaha n'ahantu heza ho kuruhukira, maze bakishima cyane.

Hari amazu ashinzwe gutekera abantu, kubahereza ibyo kunywa, kubaha amacumbi ndetse no kubatiza inzu nini cyane zo kwisanzuriramo mu gihe bafite ibirori, abakoresha ubukwe n'abafite isabukuru z'amavuko bakunze kugana aya mazu maze akabafasha.

Inzu igerekeranyije isize amarangi y'umweru, iyi nzu icumbikwamo n'abantu bavuye impande n'impande kubera ko ari cyo yubakiwe.

Amahoteli atanga ubufasha ku bantu bayagana, burimo mu kubagaburira amafunguro atetse neza, kubereka ahantu heza ho kuruhukira, usanga rero abantu bafite ubukwe, akenshi bayagana kugira ngo babafashe mu gikorwa cyo kubagaburira ndetse no kubereka ahantu heza ho kuruhukira mu birori byabo.

Ushaka gufata amafunguro meza cyangwa se kumva uriye indyo yuzuye, ikungahaye ku byubaka umubiri, ibitera imbaraga n'ibiri indwara kandi iryo funguro ukarifatira ahantu hatuje cyane. Ugana ibigo by'amahoteli n'amaresitora bikunze gutekera abantu babigana kuko bateka neza cyane.

Hari abaturage bihangiye umurimo wo kugurisha amarwa, ikigage cyangwa divayi ku muhanda, cyangwa mu masoko, aho umuntu ufite inyota agenda bakamushyirira mu gikombe cyangwag se mu icupa ubundi akishyura amafaranga.

Abaturage bakora imirimo itandukanye kugira ngo babashe kubona amafaranga ndetse banahahire imiryango yabo mu ngo aho batuye, aho usanga bacuruza imyenda cyangwa imbuto ubasanga hirya no hino ku mihanda muri karitsiye batuyemo.

Hari abaturage bakora umurimo w'ubucuruzi ariko bifashishije amabaza agendanwa, bagashyiramo ibikoresho bitandukanye, birimo nk'amavuta, indorerwamo, utuyungirizo n'imikasi, kugira ngo babashe kubona amafaranga abatunga n'ayo kurya.

Hari ibice bimwe na bimwe mu gihugu cy'u rwanda bitarageramo amasoko ya kijyambere aho usanga abaturage bakigura ibicuruzwa bakanabigurishiriza ku mihanda kugira ngo abagenzi batambuka babashe kubagurira, ariko hari n'ahandi hagize iterambere aho usanga abaturage bafite amasoko ya kijyambere kandi asakaye.

Abaturage bashakisha amafaranga binyuze mu buryo butandukanye, harimo n'ubucuruzi bukorerwa ku mihanda, aho baba bafite ibijumba, imyumbati, ibishyimbo, intoryi, amateke mbese buri kintu cyose ushaka urakiyasanga.

Abaturage bagenda bihangira imirimo itandukanye kugira ngo babashe kubona amafaranga atunga imiryango yabo ndetse n'ayo bifashisha bagura ibyo kurya cyangwa imyambaro yo kwambara, aho bagenda bagakora imirimo irimo gucuruza, aho bakorera mu masoko cyangwa mu maduka atandukanye.

Mu isoko ry'abaturage ry'akarere ka Nyagatare, habamo ibiribwa by'amoko yose, harimo inyanya, imineke, avoka, imboga, amashu ndetse n'umunyu wo guteka.

Abacuranzi basigaye babona amafaranga binyuze mu buryo butandukanye, hari abajya mu masoko bakaririmbira abantu ndetse bakanabacurangira maze bakabaha amafaranga kuko hari abo usanga bafite impano ikomeye cyane yo kuririmba, bigatuma hari abantu babikunda cyane bakaba babaha n'akazi.

Urujya n'uruza rw'abaturage baremye isoko, aho bari kugura kandi banagurisha ibicuruzwa bitandukanye, birimo ibitoki, inyanya, batanga amafaranga abandi nabo bayakira, kugira ngo ba biteze imbere imibereho myiza kuko bamwe baba bagiye kubirya mu rugo abandi nabo bagiye gutahana amafaranga, bazakoresha mu bikorwa byabo bya buri munsi.

Amaresitora n'andi mazu ategura amafunguro ku bantu bayagana, afasha abafite ibirori bitandukanye birimo ubukwe mu gutuma ibirori byabo bigenda neza kuko babakira kandi bakabaha n'ahantu heza ho kuruhukira, bakabagenera amafunguro yo kurya n'ibindi.

Amahoteli n'amaresitora, afasha abaturage binyuze mu buryo bu hari abakoresha ibirori bikaba ngombwa yuko batekerwa n'aya maresitora, hari n'abandi baba bashaka ahantu heza ho kuruhukira kandi ibyo byose biba bihari, mu maresitora n'amahoteli.

Amaresitora n'amahoteli bagira inyubako nziza kandi zigezweho, aho bakira abantu babagannye bakabasha kubategurira amafunguro akungahaye ku ntungamubiri, kandi bakabereka n'ahantu ho kuruhukira dore ko baba bafite n'ibiyaga bigezweho byo kogeramo bimwe bya kizungu bita pisine.

Abantu benshi iyo bakeneye kurya neza biba ngombwa yuko bajya mu maresitora, aho bateka ibiryo birimo ifiriti n'inyama cyangwa isombe n'ubugari bikungahaye ku ntungamubiri cyane cyane ko aya maresitora ateka neza kugira ngo akurure abakiriya bayagana.

Abatwara abagenzi ku mamoto bazwi nk'abamotari bakundaga kuganirizwaho kenshi n'abapolisi babagira inama z'ukuntu bakwitwara mu muhanda bagendera ku muvuduko wateganyijwe na polisi y'u Rwanda kugira ngo twirinde impanuka zibasira kandi zigahitana ubuzima bw'abantu.

Abatwara abagenzi ku ma moto bazwi nk'abamotari, basabwa kwitwararika cyane igihe bari mu muhanda, bagendera ku muvuduko wateganyijwe kandi bakambika abagenzi babo kasike yo mu mutwe kugira ngo badakomereka cyane mu gihe habaye impanuka.

Gukora umurimo wo gutwara abagenzi ku magare bazwi nk'abanyonzi. Ni bamwe mu bakorera amafaranga binyuze muri aka kazi. Aho babaheka ku magare bakabageza iyo bagiye kandi nabo bashishikarizwa kugenda mu muhanda neza no kubahiriza amabwiriza atangwa na Polisi y'u Rwanda. Mu rwego rwo kwirinda impanuka zishobora guhitana ubuzima bw'abantu.

Abatwara ibinyabiziga bya moto bashishikarizwa kwitwararika cyane mu gihe bari mu muhanda kugira ngo badateza impanuka cyangwa bakagonga abanyamaguru kuko benshi bakunda gutwarira ku muvuduko mwinshi bityo Polisi y'u Rwanda ibagira inama yo kubahiriza amabwiriza agenga abatwara ibinyabiziga.

Abakora akazi ko gutwara abagenzi ku mamoto basabwa kwitwararika cyane bakagenda mu muhanda kandi batwariye ku muvuduko mukeya kandi bakibuka kwambika abagenzi babo ingofero yawugenewe kugira ngo nihabaho impanuka badakomereka ku buryo bworoshye.

Abatwara ibinyabiziga bavuga yuko ingendo zisigaye zaroroshye. Nyuma yo kubakirwa imihanda myiza itarimo amabuye iy'izwi nk'imihanda ya kaburimbo. Aho bashimira Leta y'Igihugu cy'u Rwanda kuba yaratekereje mu kwagura ibikorwa remezo birimo nk' imihanda. Ubu bakaba basigaye bakora ingendo ku buryo buboroheye.

Abatwara abagenzi ku binyabiziga bya moto bazwi nk'abamotari bishimira yuko nyuma y'ikorwa ry'umuhanda mu Karere ka Nyagatare, ubu basigaye bakora akazi kabo nta nkomyi kandi bakanabishimira Leta y'Igihugu cyabo, naBbo ntibazahwema kuyishyigikira mu bikorwa bitandukanye.

Abanyonzi ni abantu batwara abantu bifashishije amagare, babavana mu gace kamwe babageza mu kandi bityo bakabona amafaranga ariko bashishikarizwa kwitwararika igihe bari mu muhanda, batwara ku muvuduko mukeya kugira ngo badateza impanuka.

Abatwara abagenzi ku ma moto bazwi nk'abamotari, ni bamwe mu bantu bakora akazi gakomeye cyane kuko bisaba gushirika ubute, ukabaza abagenzi bagenda n'amaguru, niba batega, kugira ngo urebe ko wabona uwo ubasha gutwara, akaguha amafaranga.

Umuhanda usangamo urujya n'uruza rw'abantu yaba abatwaye ibinyabiziga birimo moto n'imodoka ndetse n'abagenda n'amaguru, aba bose basabwa kuba maso kugira ngo hirindwe impanuka za hato na hato zishobora kwibasira kandi zigahitana ubuzima bw'abantu.

Hari abaturage bifashisha amagare kugira ngo boroshye ingendo bava ahantu hamwe bajya ahandi, cyane bavuye nko mu mirimo yabo irimo guhinga cyangwa irimo kujya gusarura n'imyaka, aho usanga biborohera kandi bakabasha kugera aho bagiye ku buryo bwihuse kuko Leta y'u Rwanda yabubakiye imihanda myiza.

Abakora umurimo wo gutwara abagenzi ku magare bamwe mu bishimira akazi bakora kuko Igihugu cy'u Rwanda cyabubakiye imihanda bityo gukora urwo rugendo ntibiba bigoye. Bakunda gutwara ingeri z'abagenzi batandukanye harimo n'abanyamahanga batuye mu Rwanda nk'abakomoka mu gihugu cy'Ubushinwa n'abandi.

Abatwara abagenzi ku mamoto bazwi nk'abamotari mbere yo gutangira urugendo basabwa kubanza guha ingofero yabugenewe abagenzi bagiye gutwara kandi bakagenda mu muhanda bitwararitse kugira ngo badateza impanuka batwarira ku muvuduko mukeya.

Abatwara abagenzi ku mamoto bazwi nk'abamotari ni bamwe mu bishimira akazi bakora kubera ko banashyiriweho ibigo bibaha inguzanyo kandi bakubakirwa n'imihanda myiza, bityo bashimira Leta y'u Rwanda bikomeye cyane.